Akazu k'umweru gatoya kari icyapa cyanditseho BPR hafi ajenti, bishatse kuvuga ko ari banki y'abaturage iba yafashe umukozi ikamwegereza abaturage, kugira ngo abaturage babashe kubona serivisi z'iyi banki, aho ibitsa amafaranga, ikaguriza abaturage ndetse n'ibindi.

Akazu kari mu mabara y'umutuku, ni akazu kariho amagambo yanditseho yitwa Airtel, ni ikigo k'itumanaho gitanga ibicuruzwa harimo amayinite, kohereza amafaranga, kubikura ndetse na telefoni, aha ngaha haba harimo umuntu ushinzwe gukora no kugurisha ibyo bicuruzwa bitandukanye by'itumanaho.

Akazu k'umuhondo kagaragaza ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN, aho haba harimo umukozi wabo utanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye bya MTN harimo gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi. Imbere y'aho kandi hari icyapa cya telefoni Spark mirongo itatu se.

Inzu iri mu marangi atandukanye, irange ry'ubururu n'umweru, inzu yanditseho amagambo ko ari inzu y'ubucuruzi urwibutso kandi ikaba iriho banki ya Kigali ni ishami rya banki ya Kigali aho batanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye bijyanye n'amafaranga nko kubitsa kuguriza abantu ndetse n'ibindi.

Akazu gatoya cyane kaha ibyapa byanditseho amagambo menshi, hari ibyanditseho BPR, Equity, Urwego, MTN ndetse n'ibindi bivuze ko umuntu ugakoramo aba atanga zimwe muri serivisi bino bigo bitanga.

Abagabo bahagaze n'umwe wicaye bambaye ingofero, umwe arimo gufotora undi aho akenshi bikunze gukorwa mu mabanki aho baba bagira ngo afate ifoto ye kugira ngo amufungurire konti azajya abitsaho cyangwa akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi mu bijyanye n'amafaranga.

Akazu gatoya kari mu marangi y'umuhondo kubatse mu byuma. Kariho ibyapa bitandukanye hariho icya Mtn, Airtel ndetse na Tigo. Bivuze ko umuntu uba uri muri aka kazu atanga ibicuruzwa bitangwa n'izi, n'ibi bigo by'itumanaho, harimo nk'amayinite, kubitsa kubikura, kohereza amafaranga, ndetse n'ibindi.

Umuntu uri mu kazu k'itumanaho ka MTN, arimo kwakira umukiriya hari n'udutelefoni twa matushe turimo kugurishwa, imbere ye ni ibintu bigiye bitandukanye, umucuruzi aba arimo gufasha abantu bakora ibintu bijyanye n'itumanaho.

Utuzu tubiri turi mu mabara y'umuhondo handitseho amagambo ya MTN. Ni ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN gitanga ibicuruzwa bitandukanye, harimo amayinite yo guhamagara, kohereza amafaranga, kugurisha telefone ndetse no kubitsa. Hari n'ibindi bIgiye bitandukanye haba harimo umuntu wakira abantu kubafasha muri ibyo bicuruzwa.

Ikusanyirizo ry'umusaruro w'ibigori aho bubaka inzu bakajya babitandikaho kugira ngo byume. Akenshi ibi ngibi bikorwa n'amashyirahamwe ahuza umusaruro akanahingira hamwe kugira ngo babashe gutezanya imbere.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru. Ari gukora mu mufuka w'amakara. Afite amakara mu ntoki, aho ari ahantu hashobora kuba acururiza amakara. Amakara ni bimwe mu bicanwa bituruka mu biti biba ari binini bakabitwika, bikavamo aya makara nyine bakoresha bateka.

Abantu bakorera mu ishyirahamwe, bakora igikorwa cyo gukora imbabura, aho imbaburala ikorwa mu ibumba ndetse no mu byuma. Barimo baraziteranya, ni abagabo babiri bambaye ibisurubeti by'ubururu ,harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imbabura ndetse n'ibindi.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore. Barimo gutunganya umusaruro w'ibigori aho barimo kubyanika. Ibigori baba barabivovoye ariko bikiri kumwe n'ibitiritiri. Barabika byankuma bakabona kubivungura. Ni abantu benshi bameze nk'amatsinda bakorera hamwe.

Akazu kariho ibyapa bitandukanye ndetse n'amagambo atandukanye. Harimo ayitwa ekwiti, bipiyara, urwego; akenshi handitseho ibyapa bigaragaza banki. Bivuze ko kano kazu kabamo umukozi ushinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa by'izi banki. Imbere yaho,.hari abantu babiri bahagaze bagiye kwaka serivisi uwo muntu ushinzwe gufasha zino banki.

Abantu bakorera nko mu makoperative cyangwa mu matsinda atandukanye. Bari gutunganya umusaruro w'ibigori, aho babivovoye noneho bakaba babyanitse ibigori biracyari kumwe n'ibitritiri byabyo kandi n'ibigori byeze bahita babivungura bakabigurisha cyangwa bakabikoramo ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'akawunga, igikoma cyangwa ibindi.

Umuntu w'umukecuru ukuze cyane. Arimo gukora akazi ko gukora ibibumbano cyangwa ibintu bibumbye. Hari ibyakozwe bikoze neza akenshi bikunda gukoreshwa mu gushyiramo indabyo kugira ngo ziterekwe ahantu kandi na none arimo kubumba igikoresho kimeze nk'inkono batekamo.

Umuhanda w'amabuye, ku ruhande rwaho harimo inzu zitandukanye, hariho inzu iriho icyapa cy'akabari ndetse ishushanyijeho n'inzoka ya Skol, bishatse kuvuga ko baba bacuruza inzoga cyangwa ibindi bintu bitandukanye nk'ibiribwa cyangwa ukabatanga n'amacumbi.

Inzu y'ubucuruzi yiganjemo ubucuruzi bw'inzoga, harimo amakesi arangurirwamo inzoga ndetse n'inzoga ziteguye zanywewe harimo nka Mitsingi, Primus ndetse n'izindi.

Inzu y'ubucuruzi ariko yibanze ku binyobwa byakitwa nk'akabari, harimo ibinyobwa bitandukanye harimo mitsingi ndetse n'ibindi binini bya rikeri, harimo n'imashini zikoreshwa mu gukonjesha inzoga.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza inzoga. Ni inzoga ziteretse neza kandi ziteguye neza. Akenshi izi nzoga ziba zihenze kuko ni amarikeri aba agura amafaranga menshi.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza ibinyobwa. Ibinyobwa byinshi biri mu mavide, kandi ibinyobwa byinshi nanone birimo ni amalikeri hari n'intebe abakiriya bicaraho baje kunywa ndetse n'ameza.

Amakesi y'inzoga bateretse hasi, ni makesi atanu, harimo amakesi atwarwamo inzoga za Skol ari mu ikesi ry'umutuku, izindi zikaba ziri mu ikesi y'ubururu n'izindi mu makesi y'umukara, ni ukuvuga ngo harimo inzoga ziri mu moko atatu: Skol, Gatanu ndetse na Mitsingi.

Inzu y'ubucuruzi ariko yiganjemo ibicuruzwa bisa nk'aho bimeze kimwe, aho umuntu arimo kwakira umukiriya. Ni ibicuruzwa bimeze nk'ibyifashishwa mu gukanika ibinyabiziga.

Inzu y'ubucuruzi ariko yibanda ku ibitenge cyangwa ku myenda yadozwe. Harimo abadamu batatu ndetse n'umugabo umwe. Umwe afite imashini arimo kudoderamo ndetse n'igipimo bapima abantu kugira ngo babadodera ibibakwira. Inyuma yabo hari ibitenge bimanitse neza bicuruzwa.

Inzu y'ubucuruzi, harimo umucuruzi urimo gutanga ibicuruzwa bitandukanye. Harimo imifuka irimo umuceri, isukari, ibishyimbo, amagi, indobo, amabasi ndetse n'ibinyobwa harimo, kandi n'ibindi bicuruzwa ntavuze bigiye bitandukanye nk'amavuta yo kwisiga. Umucuruzi arimo imbere ategereje abakiriya.

Inzu y'ubucuruzi harimo igicuruzwa kitwa amakaroni akenshi amakaroni abamo bwoko bubiri, hari amakaroni aba ari maremare ndetse n'amakaroni aba ari magufi. Aya makaroni yo ni magufi, ni magufi aho akenshi bayateka ntibagombe kuyasaturamo.

Inzu y'ubucuruzi ifite umwihariko wo kuba icuruza gaze. Ni gaze ziri mu bicupa bitandukanye, harimo ibiro bitandatu, cumi na bibiri kuzamuka kandi harimo izisa umuhondo, ubururu ndetse n'andi mabara atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa nk'amandazi ari mu ibasi y'umutuku, ibinyobwa nk'amata ndetse hakaba harimo na teremusi. Bivuze ko iyi nzu y'ubucuruzi ikunda gutanga ibicuruzwa bikunda gukenerwa mu gitondo nk'icyayi, amata, igikoma, umugati ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo: amasabune, amavuta yo kwisiga, ibyo kunywa ndetse n'ibindi, umucuruzi ari mu nzu ategereje abakiriya arimo no kwandika ibyo aba yacuruje n'ibyo aba yaranguye.

Inzu y'ubucuruzi haririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amazu yo kunywa, amagi, amavuta yo kwisiga ndetse n'indi bicuruzwa bitandukanye, umucuruzi arimo imbere aho arimo guhereza abakiriya ibicuruzwa.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi bikoresho abakobwa bakoresha basiga ku minwa, harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye aho umuntu wabirangura akabyegereza abaturage kugira ngo babigure batagiye kure kandi na we akunguka.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imineke, amandazi, ifu y'igikoma, amaji yo kunywa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, harimo kandi n'umucuruzi urimo kubicuruza.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byibanze ku byo kunywa cyane cyane, harimo ibiri mu makarito ndetse n'ibitari mu makarito, bimwe mu bicuruzwa afite harimo: fanta, ji, amakesi arimo inzoga za Skol ndetse n'ibindi.

Abantu bari imbere ku ruhimbi, ni imiryango ine itandukanye, aho wabahaye ibihembo biri mu mpapuro, inyuma yabo hari ababwiriza cyangwa abayobozi b'itorero aribo babahaye ibyo bihembo cyangwa impamyabushobozi.

Abantu bari imbere mu rusengero, harimbere umuzungu ndetse n'undi mwirabura umwe, bafite indangurumajwi barimo kuvugisha abantu, imbere kandi ku ruhimbi hari undi muntu wicaye ku ruhande, kandi hepfo yaho hari ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu gucuranga.

Abantu barimo gusenga, bari gusengera ahantu mu cyumba gitoya kirimo idirishya rimwe. Harimo abari gusenga bicaye, abahagaze ndetse n'abapfukamye, akenshi bikunze gukorwa n'abantu basengera mu matorero nka ADEPR ndetse n'ayandi aho bakora amasengesho bagahurira mu rugo rumwe bagasenga.

Abantu barimo kubyina, abenshi barimo ni abadam, bambaye imikenyero isa, harimo ijya gusa umutuku ndetse nisa ubururu bweruye. Barimo kubyina imbere y'urusengero, kandi bambaye impuzankano.

Abantu bari mu rusengero bambaye mu buryo butandukanye. Harimo abakenye harimo n'abambaye ibitenge n'abambaye amakote n'amashati asanzwe. Bari mu gikorwa cyo gusenga. Hari abahagaze hari n'abandi bapfukamye. Bari mu rusengero barimo guhimbaza Imana no gusenga.

Uburiri bushashe neza kandi bufite n'inzitiramibu, aho uburiri nk'ubungubu bukunda kuboneka ahantu batanga amacumbi. Aho umuntu uba ukeneye kuruhuka cyangwa waturutse kure, agenda akishyura amafaranga noneho akabona aho arara. Bikunze kuba mu mahoteri cyangwa muri za moteri.

Uruganiriro runini, rurimo intebe zigiye zitandukanye ndetse n'ameza, akenshi bikunze kuboneka ahantu muri salo, muri famiye bakunda kuganira, cyangwa bakaganira n'abashyitsi, cyangwa bigakunda kuboneka ahandi nko mu bubari, cyangwa muri hoteli.

Uburiri bushashe neza buriho imisego ibiri. Ku ruhande rw'uburiri hariho intebe abantu bakicaraho bakaganira. Hejuru kandi y'uburiro ho gato hari amatara y'iburyo n'ibumoso. Ibi ibyumba bimeze gutya bikunze kuba bikodeshwa abantu bakaza bakararamo cyangwa ugasanga ni inzu itanga amacumbi, haba harimo nka hoteli cyangwa moteri.

Uburiri busashe neza kandi buriho imisego ibiri. Impande yaho gato hari aho umuntu yicara ndetse n'akameza. Akenshi yabikoresha ari nko kwandika ibintu cyangwa arimo kurya. Impande y'aho hantu yicara kandi hari igice kinini cyubatsemo uburyo yabikamo imyenda ndetse n'inkweto. Akenshi ibyumba bimeze gutya bikunda kuboneka mu mahoteri, ahantu bakunda gutanga amacumbi.

Uburiri bushashe neza buriho umusego kandi bukaba bufite n'inzitiramibu. Ku ruhande hari akantu waterekaho nk'ibikoresho telefone, amazi ndetse n'ibindi. Ibyumba bimeze gutya kandi biteguye neza bikunze kuba, kuba hari ahantu batanga amacumbi cyangwa bakaba bakodesha amazu harimo nka hoteri, moteri ndetse n'ahandi.

Igikoresho cyubakiye neza kiriho ahantu bafungura amazi akaza naho bakarabira gikunze kuboneka mu nzu zigezweho cyangwa mu mahoteri aho umuntu avuye mu bwiherero abanza agakaraba kugira ngo imyanda imuve ku ntoki cyangwa se amaze nko kurya agakaraba.

Uburiri bushashe neza, hariho imisego ndetse n'amashuka yo kwiyoronsa. Impande y'uburiri hari intebe umuntu yakwicaraho ari kurya cyangwa ari gusoma ibitabo. Impande yaho kandi hariho igishushanyo kinini cy'icyapa ndetse n'aho barira. Akenshi ibyumba bimeze gutya bikunda kuba ahantu bakodesha amacumbi nko muri hoteri cyangwa muri moteri.

Uburiri bushashe neza kandi buriho imisego ibiri, hari n'akameza kari ku ruhande y'uburiri kajyaho ibindi bikoresho, izi nzu cyangwa ibyumba bimeze gutya bikunda kuboneka ahantu nko mu mahoteli cyangwa muri moteri, ahantu bacuruza ibicuruzwa nk'ibinyobwa, ibiribwa ndetse bagatanga n'amacumbi, uwo bahaye icumbi arishyura noneho akarara muri iki cyumba kimeze gutya.

Inzu nziza kandi igeretse kabiri. Impande yaho hari indabyo nziza, Pasuparuma ndetse n'izindi ndabyo ziba ari ndende. Akenshi inyubako imeze gutya iba ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gutanga amacumbi, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Izo nzu zikunda kwitwa hoteli.

Uburiri bushashe neza kandi buriho imisego ibiri. Ni ahantu mu cyumba hejuru y'uburiri hariho amatara, ibumoso rimwe n'iburyo rimwe. Akenshi iyo ibyumba bimeze gutya bikunda kuba biri ahantu, bakodesha amacumbi nko muri hoteli cyangwa moteri.

Ahantu hateye intebe ndetse n'ameza, ayo meza n'intebe biri ahantu henshi hagiye hatandukanye muri iyi nyubako, aho bikunda gukorwa na hoteli cyangwa ahantu bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya kugira ngo abakiriya nibaza ari benshi babone aho bicara barimo guhabwa ibyo bicuruzwa.

Abantu umunani. Harimo abahungu babiri n'abakobwa batandatu. Bambaye impuzankano aho bambaye amashati y'umweru n'ipantaro z'umukara. Bameze nk'abantu bakorera ikigo kimwe. Akenshi baba bakora nk'ahantu muri hoteri ndetse n'ahandi hatandukanye habasaba kwambara imyenda isa.

Inyama iteguye neza ni inyama y'inkoko kandi ikaranze iteyeho n'ibirungo by'umutuku, inkoko imeze gutya itetse ikunda kuboneka ahantu mu tubari cyangwa muri hoteli.

Inzu nziza iri ahantu heza. Imbere y'inzu kandi hari intebe nziza aho abantu bakicaramo bakanywemo nk'akantu bakaganira ndetse n'izindi baryamaho. Aho ngaho kandi hari n'aho bogera, ari ahantu baba baracukuye kugira ngo abantu bajye kuharuhukira banoge. Akenshi ibi ngibi bikunda kubera mu mahoteli cyangwa muri moteri, aho umuntu ajya koga akabanza akanishyura amafaranga.

Abantu barimo kuvuza ingoma, bari kuzivugiriza ahantu hari inzu nziza hameze nko' muri hoteli cyangwa ahandi hantu habera nk'ubucuruzi butandukanye, aho baba barimo gucuranga imbyino gakondo kugira ngo zikurure abakiriya bakunda umuco nyarwanda.

Ibicuruzwa bitandukanye biri ku isoko. Harimo nk'akayunguruzo gakoreshwa n'abantu basekuye ibintu nk'imyumbati, ubunyobwa cyangwa soya maze bagakinera kuyungurura bakoresheje akayunguru gasanzwe, kandi mu indobo harimo n'ibindi bikoresho bituruka mu biti harimo umwuko ndetse n'imidaho.

Isoko ry'ubucuruzi ricuruza ibiribwa cyane cyane byiganjemo imbuto. Harimo: inanasi, imyembe, ibinyomoro ndetse n'ibindi harimo abadamu barimo kuzicuruza. Imbuto akenshi zihingwa nka kimwe mu bihingwa by'imbuto kandi bizamura ubukungu nyarwanda bugatanga n'imirimo ku baturage.

Isoko ry'ubucuruzi ricuruza ibicuruzwa bituruka mu buhinzi, harimo imbuto zigiye zitandukanye imineke, imyembe, voka ndetse n'ibindi, hari n'umudamu kandi urimo kubicuruza.

Ahantu hari isoko ry'imyenda bacuruza imyenda, harimo imyambaro itandukanye harimo nk'imyenda y'imbere ndetse n'iyindi myenda izinze neza, ni ahantu mu isoko hasakaje amashitingi.

Ahantu hari abantu benshi kandi mu isoko, hari ibicuruzwa bitandukanye, hari ibituruka mu buhinzi ndetse no mu nganda, ibituruka mu buhinzi harimo nk'ibitoki ndetse ibituruka mu nganda harimo indobo ndetse n'ibidomoro bigiye bitandukanye, hari abantu benshi aho harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Ahantu ku isoko habera ubucuruzi, hari ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, igare ndetse n'imodoka. Hari n'ibicuruzwa kandi bitandukanye harimo inkweto, amadomoro y'ubururu ndetse n'ibihingwa.

Ihene ebyiri z'umukara zambaye ibiziko imbere yaho gato hari ibirenge by'umuntu wambaye bote na zo z'umukara, ziri ahantu hameze nko mu gisambu zagiye kurisha cyangwa bakaba bazijyanye mu isoko kuzigurisha.

Inzu y'ubucuruzi. Ahantu bacururiza, hari abantu benshi. Harimo abarimo gucuruza ndetse n'abakiriya. Ibicuruzwa birimo, harimo imyenda iri mu bwoko butandukanye.

Inzu z'ubucuruzi z'riwa ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'umunzani ni imiryango itandukanye aho abantu bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'imbere harimo abacuruzi n'abakiriya bahagaze imbere yabo barimo kubakira.

Ahantu bacururiza harimo ibicuruzwa bitandukanye, hari ibiri mu mifuka ndetse no mu makarito, harimo kandi amavuta yo kwisiga, umuceri ndetse n'ibindi bicuruzwa, harimo umugabo wunamye urimo gukora mu gucuruza n'undi mudamu urimo mbere urimo gucuruza.

Umuhanda wegereye i isoku. Ni isoko rinini kandi ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda imanitse ku biti, inyuma gato hari umutaka ucuruza bimwe mu bicuruzwa bijyanye no gutanga amainite, guhamagarira, aho kubitsa no kubikura. Umuhanda kandi harimo umuntu utwara moto asa nk'utegereje abagenzi.

Ibicuruzwa biri ku isoko. Harimo ibikombe by'amabara atandukanye harimo ibisa, umutuku ubururu n'icyatsi. Hakaba harimo n'amabase arimo asa umutuku ubururu n'icyatsi. Ndetse hakaba hari n'imifuka irimo gucuruzwa.

Ahantu hari umuhanda w'amabuye. Harimo urujyauruza rw'abantu barimo kugenda, hari imodoka iparitse ku ruhande irimo imizigo bari gupakurura, hari n'utuzu dushinzwe gutanga ibicuruzwa by'itumanaho, abamotari baraparitse ndetse n'imiryango y'ubucuruzi irakinguye.

Isoko ry'imboga rimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'imboga, harimo inyanya, ubutunguru, imiteja ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ni ahantu mu isoko harimo abakiriya n'abacuruzi baje guhaha ni urujya n'uruza rw'abantu kandi n'umusaruro w'imboga ni mwinshi.

Abantu bicaye ahantu hamwe bakoze nk'uruziga kandi bafite ibyo kunywa, ni ahantu uba usanga batanga ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Abantu bakoze uruziga baricaye, ni abantu barimo mu itsinda cyangwa bahuriye ku gikorwa kimwe, barimo kunywa kandi barimo no kuganira, harimo abicaye n'umwe uhagaze urimo kubaganiriza.

Ahantu hateguye neza kandi hari ibiryo by'amoko menshi, aho abantu bateye imbere bakunda kubikoresha habaye nk'ikirori cyangwa ahantu bacuruza ibiribwa, ibi ngibi bivuze ko oyo biteguye gutya akenshi umuntu yiyarurira, akagenda yarura ibyo ashaka bitewe n'ibiryo batetse.

Abantu batwara moto babiri baparitse mu mapave bari imbere ya kaburimbo, inyuma yabo hari imodoka ndetse n'igare, imoande yabo gato hari akazu k'umuhondo, inyuma kandi yabo hari n'amazu asanzwe y'ubucuruzi, ni abantu bameze nk'abamotari baba baparitse bategereje abagenzi.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga harimo moto ebyiri imwe ihetse umugenzi, indi nta mugenzi ihetse ku ruhande rw'abanyamaguru harimo abatwaye amagare bari kuyacunga, abandi bari kugenda nta binyabiziga bafite.

Umuntu utwara igare agatwaraho abagenzi bamwita umunyozi. Umunyonzi ahetse umugenzi w'umudamu kandi akaba ari umuzungu. Aho abanyonzi bakora muri kaburimbo cyangwa mu mihanda y'ibitaka, bakorera amafaranga kugira ngo babeho.

Abamotari benshi. Harimo abari kugenda n'amaguru ndetse n'abandi bamotari baparitse bategereje abagenzi. Moto yo, ni za moto zikoresha batiri, nta moteri zigira, kugira ngo zikure bagomba kubanza kuyishyiramo umuriro.

Imodoka iri muri kaburimbo yonyine ni imodoka ijya kumera nka zimwe zitwara abarwayi, cyangwa imbangukiragutabara, irasa umweru, amapine n'umukara. Iri muri kaburimbo yonyine nta kindi kinyabiziga kirimo irasa niri kugenda imanuka.

Kaburimbo irimo umuntu utwaye igare. Atwaye igare asa nk'uri ahantu hamanuka kandi afite telefone mu ntoki n'akazigo ahahetse inyuma mu mufuka. Inyuma ye kandi hari undi muntu none uri ku igare umuri inyuma, ari muri kaburimbo nta kindi kinyabiziga kirimo.

Umumotari ari muri kaburimbo wenyine, nta kindi kinyabiziga kirimo. Atwaye umugenzi w'umukobwa. Bambaye igikoresho kirinda impanuka cyangwa kirinda gukomereka gisa icyatsi. N'umumotari yambaye impuzankano y'akazi y'icyatsi n'umuhondo. Bari muri kaburimbo bonyine kandi nta bindi binyabiziga birimo.

Umuntu utwaye moto uri muri kaburimbo, ageze mu gice abanyamaguru bambukiramo aho ha barimo imirongo muri kaburimbo y'umweru itambitsemo, aho ikinyabiziga cyageze hari abantu bagiye kwambuka kigenda gake cyangwa kigahagarara kugira abantu bambuke, umuntu utwaye moto ahetse umufuka kandi ari muri kaburimbo wenyine.

Umuntu utwaye moto afite agakapu imbere, nta kindi kinyabiziga kiri mu muhanda ni umuntu umwe wenyine utwaye moto, moto iri mu mabara y'umutuku n'umukara, moto kandi nta muntu ahetse, iyi moto iri mu bwoko bwa Yamaha.

Abantu bari ku magare baparitse ari benshi, kandi bategereje abagenzi. Abantu bakora uyu mwuga wo gutwara abantu bakoresheje amagare bitwa, abanyonzi. Bamwe bambaye impuzankano z'icyatsi, abandi nta mpuzankano bambaye. Bategereje abagenzi, baparitse impande ya kaburimbo.

Umuntu wicaye kuri moto, arimo kubara amafaranga, harimo amafaranga y'inote magana atanu, ndetse n'izindi n note z'ibihumbi bibiri, ari mu muhanda wa kaburimbo, araparitse ategereje abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, nta kinyabiziga kirimo ariko umuhanda wagenewe amagare harimo umuntu utwaye igare ahetse akajerekani ku igare. Umuhanda uba ukoze neza aho utandukanya ibinyabiziga bikoresha moteri ndetse n'amagare. Ibinyabiziga bikoresha moteri bifite umuhanda wabyo ndetse n'amagare akagira umuhanda wabo n'abanyamaguru.